Inzego z'ibanze zo mu buyobozi zijya zikoresha inama abaturage ziyobora hagamijwe mu kubigisha ibikorwa bitandukanye birimo kubungabunga umutekano wabo ndetse na gahunda ya gerao amahoro yo kwitwararika bakagenda neza mu muhanda, haba ku batwara ibinyabiziga ndetse n'abagenda n'amaguru.

Hari inama zitandukanye zijya zihuza abaturage n'abayobozi ndetse zikitabirwa n'abiganjemo urubyiruko kugira ngo rushishikarizwe ibintu bitandukanye harimo kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge no kwishora mu ngeso z'ubusambanyi bityo tubeho mu gihugu cyiza kandi gitekanye.

Hari inama zitandukanye zijya zihuza abayobozi ndetse n'urubyiruko, aho baganiriramo ibintu bitandukanye birimo guharanira no kurengera ubuzima bwiza bw'abaturage, kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kugira inama abagaragaweho kubikoresha.

Inama zitandukanye, zibera mu gihugu cy'abayobozi batandukanye, inzego z'ibanze, Polisi y'u Rwanda, ndetse n'igisirikare, hagamijwe mu kurebera hamwe ukuntu twarushaho kwimakaza umutekano, mu guteza imbere abaturage b'Igihugu cyacu.

Mu nama zihuza abaturage hirya no hino usanga zigaragaramo kandi zitabiriwe n'abashinzwe umutekano, barimo na polisi y'u Rwanda aho baba baje gutanga ubujyanama ku bijyanye no gucunga umutekano.

Hari inama zijya zihuza abayobozi ndetse n'urubyiruko hagamijwe kubashishikariza no kubigisha ibikorwa bitandukanye aho abantu b'urubyiruko bakiniramo n'imikino itandukanye bashaka kwigisha bagenzi babo amateka ya kera Igihugu cyagiye kinyuramo.

Muri kaminuza y'u Rwanda hakunze kubera inama zitandukanye zihuza abayobozi, inzego z'ibanze ndetse n'abanyeshuri bahagarariye abandi n'inzego z'umutekano hagamijwe kurebera hamwe ibyateza imbere igihugu cy'u Rwanda, ndetse no kwirinda ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge cyane cyane mu karere ka nyagatare.

Inama zitandukanye zihuza abaturage bahabwamo inyunganizi, ubukangurambaga ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'ibibazo baba bafite cyangwa se ku bijyanye n'ibindi bibazo bibugariza mu buzima, aho bataha babashije kubona ibisubizo bitandukanye.

Umugabo ufite mikoro wambaye umwenda w'umweru, wambaye n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko arimo kubwira abantu bavuye muri siporo rusange ikunda gukorerwa mu mukarere ka Nyagatare.

Mu rwego rwo guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu cyacu, leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo gukorera mu masibo, aho hakoreshwa inama abaturage bakigishwa indangagaciro zitandukanye zirimo guhiga no guhigura, kugira isuku ahantu hose, gutanga mituweli cyangwa ubwishingizi mu kwivuza, abaturage usanga bafite amasibo cyangwa amatsinda babarizwamo.

Inama zihuza abaturage hirya no hino mu gihugu, zitabirwa n'abayobozi batandukanye, zikitabirwa n'inzego z'umutekano harimo n'ingabo z'igihugu, aho ziza gutanga ubukangurambaga ku baturage, mu rwego rwo kwimakaza no kongera umutekano, kugira ngo tubeho mu gihugu gifite amahoro.

Ingoma ni igikoresho gakondo kerekana umuco nyarwanda wa kera, ikaba yifashishwa mu bikorwa bitandukanye, birimo gutanga umudiho kuko yifashishwa mu birori, aho abantu bayivuza ubundi bagacinya umudiho cyangwa bakabyina.

Agaseke gasobanuye byinshi cyane mu muco nyarwanda. Iyo umuntu yakoze ubukwe maze undi agashaka kumutwerera cyangwa kumuha impano, yifashisha agaseke agashyiramo ibiribwa nk'inyanya, intoryi ubundi akabimuhereza, ibifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cyane mu muco nyarwanda wo kugabira umuntu.

Hari abaturage bagikoresha uburyo bwa gakondo bwo guhunika imyaka mu bibindi, aho kugira ngo bayishyire mu bikoresho bigezweho birimo amabasi n'ibigega, ahubwo bakabika imyaka yabo mu bibindi kugira ngo izavemo imbuto nziza.

Inka z'inyambo zifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cyane mu muco nyarwanda kuko kera ari zo zororwaga mu gihe cy'abami kandi ugasanga zikoreshwa no mu birori bitandukanye. N'ubu ngubu usanga zororerwa mu bigo ndangamuco harimo nk'ikigo cy'i Nyanza mu Rukari cyangwa hirya no hino mu nzuri, ntabwo buri muturage wese upfa korora inka y'Inyambo.

Hari ibikoresho bitandukanye, bigaragaza umuco nyarwanda, bimwe muri byo twavugamo nk'inkongoro banyweramo amata, uduseke ndetse n'inkangara, akenshi byifashishwa mu birori birimo n'ubukwe.

Mu muco nyarwanda kera abaturage bakundaga kwambara ibintu bitandukanye birimo inigi zo mu mutwe, kwambara impuzu, nta myenda yabagaho nk'ubungubu aho usanga abantu bambara ibintu bishakiye harimo n'imyambaro migufi, kera abantu bagiraga umuco kandi bakawubahiriza.

Umwami Yuhi IV Musinga afite amateka manini cyane mu muco nyarwanda kubera ko yarwanyije ingoma ya gikoloni kandi akanga no kubatizwa bityo abantu benshi cyane ntibazamwibagirwa kuko yagize uruhare rukomeye cyane mu guharanira ubunyarwanda no kurengera ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda.

Inkangara ni kimwe mu gikoresho cyerekana umuco Nyarwanda ndetse ikaba yifashishwa mu bihe bitandukanye harimo n'ibihe by'ubukwe aho umuntu ashyiramo icyo yifuza guha mugenzi we harimo nk'amasaka, inyanya cyangwa akaba yashyiramo indi myaka itandukanye ubundi agatwerera umuntu wakoresheje ubukwe.

Umuco wo kunywera inzoga mu kabindi cyangwa se amarwa, ubushera, cyangwa urwagwa ukunze kugaragara mu bice by'icyaro, aho bataratera imbere cyane mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga, ugasanga bakinywera bakoresheje imiheha kandi banywa inzoga iri mu kabindi.

Bimwe mu bintu bigize umuco nyarwanda harimo no kwiga amateka y'abantu babayeho kera barimo abami n'abatware, ibikomangoma cyangwa se abantu ku giti cyabo bamenyekanye cyane kubera ibikorwa bakoze maze bigasiga umugani harimo nka ba Ngunda n'abandi banditse mu bitabo bya kera.

Umusambi ni igikoresho abaturage baboha mu byatsi, bita imisuna cyangwa ibikangaga, ibyo byatsi baba babiciye mu kabande kuko ariho bikunze kumera, ubundi bifashishije imigwegwe, bakabasha kuyibohamo igikoresho, abantu bararaho, bicaraho bari kuganira.

Hari ibintu byinshi byerekana umuco nyarwanda, twavuga nk'umuheto wifashishwaga kera mu kurasa inyamaswa cyangwa kuzihiga, tukavuga ingoma, iz ngizi nizo bavuzaga igihe bakoze ibirori, twavuga intebe zitandukanye zirimo n'udusonga bugari, imisambi, ibidasesa n'ibindi bikoresho byerekana umuco nyarwanda bifashishaga kera.

Hari ibintu byinshi cyane bigaragaza umuco gakondo nyarwanda. Bimwe muri ibi harimo n'imbyino gakondo cyangwa gushayaya, aho intore zambara amayugi, ubundi bagafata n'imirishyo bakavuza ingoma abandi na bo bagashayaya, bityo ukabona ko ari ibintu biryoheye ijisho, mu kubireba ndetse bikaryohera n'ugutwi kubyumva.

Amapironi afatiraho insinga z'amashanyarazi nyinshi cyane zijyana umuriro mu baturage batuye uduce dutandukanye, kuko aya mapironi aba akomeye cyane, ntago ari kimwe n'amapoto ashobora kujyaho' insinga zirenze eshanu akaba yagwa, kuko amapironi yo aba akoze mu byuma.

Abaturage bashobora kubura umuriro w'amashanyarazi. Bityo ntibabashe gucana amatara cyangwa gucomeka ibyuma by'ikoranabuhanga birimo na telefoni. Bikaba ngombwa yuko bahamagara ikigo kibishinzwe, kikohereza abakozi bacyo bakaza kugenzura impamvu umuriro wabuze, ubundi bagakemura icyo kibazo.

Hari abaturage baba barabyigiye kandi barahuguriwe, gukanika no kugenzura imigendekere y'umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo utabasha guhitana ubuzima bw'abaturage, bityo bakagenda burira amapoto, bazirika neza kandi basana n'imigozi yangiritse, kugira ngo hatabaho impanuka ziturutse ku muriro w'amashanyarazi.

Ikigo gishinzwe ingufu z'amashanyarazi hano mu Rwanda kigenda cyagura ingomero zifatiraho amashanyarazi bityo bikongera ingufu kugira ngo abaturage babone umuriro bacana mu ngo kandi uhagije ntibibe kuwusaranganya ahubwo buri wese awubone kandi bigabanye ibura ry'umuriro mu baturage.

Abaturage bashobora kubona umuriro wo gucana mu ngo zabo biturutse ku ngufu z'amashanyarazi cyangwa bagakoresha imirasire y'izuba, bakayimanika hejuru y'amazu yabo kuko na yo ibasha gutanga umuriro w'amashanyarazi ubundi bagacana amatara, bakayakoresha n'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Buri munsi mu gihugu cy'u Rwanda hagenda hubakwa ingomero z'amashanyarazi kugira ngo abaturage bajye babasha kubona umuriro mu ngo zabo, yaba uwo bacomekaho ibyuma by'ikoranabuhanga bakoresha birimo mudasobwa n'amatelefone agendanwa ndetse bakabona n'uwo bacanisha amatara yo mu ngo kugira ngo bataba mu mwijima.

Hari abantu babihemberwa buri kwezi bashinzwe gukurikirana ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, bakorera ikigo gishinzwe ingufu zikomoka ku umuriro w'amashanyarazi hano mu Rwanda cyitwa REG, aho batanga umusanzu ukomeye cyane mu gusana amapoto yangiritse ndetse n'insinga kugira abaturage bongere babone umuriro.

Hari ingomero z'amashanyarazi zubatswe hano mu gihugu cyacu, aho zifashishwa mu gukupa umuriro kuko hari agace runaka kabamo ikibazo, bikaba ngombwa y'uko abakozi babugenewe kandi babyigiye, bajya kugikosora ubundi bamara kugikosora umuriro ugakupurwa bakongera bagacana.

Insinga z'amashanyarazi n'amapoto bigenda bica mu mirima y'abaturage, hari igihe rero zihanuka izo nsinga bikaba ngombwa yuko ababyigiye baza kongera kuzimanika kugira ngo abaturage batazazikandagira cyangwa bakazitema barimo barahinga bikaba byabaviramo n'impanuka zirimo no kubura ubuzima.

Umurimo wo kudoda hifashishijwe imashini y'ikoranabuhanga ni imwe mu itunze abantu benshi cyane barimo n'ab'igitsina gore kuko abantu bajya kudodesha imyambaro kandi bagatanga amafaranga, urumva ko ari akazi kinjiriza ugakora.

Buri munsi mu gihugu cy'u Rwanda hagenda hubakwa ingomero zifatiraho umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kongera imbaraga z'ingufu z'amashanyarazi kugira ngo abaturage babone umuriro wo gucana uhagije cyangwa se uwo gukoresha ku bikoresho by'ikoranabuhanga baba batunze.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga cyane ku bijyanye n'amashanyarazi, kuko hari igihe ateza impanuka cyangwa se abaturage bakabura n'amashanyarazi yo gucana, niyo mpamvu hari abantu babyigiye kandi babihemberwa bashinzwe kwirirwa bakurikirana ibyo bibazo hirya no hino mu baturage ku mapoto y'aho umuriro w'amashanyarazi ufatira.

Abantu bakora ibijyanye no gukanika amashanyarazi, bagomba kuba barabyigiye neza kugira ngo babikore abaturage babashe gucana mu ngo aho batuye, ariko na none bagomba kubikorana ubwitonzi kugira ngo bitabaviramo impanuka zishobora kuvamo no kubura ubuzima bitewe no gufatwa n'amashanyarazi babaye badafite ubumenyi.

Abaturage baranezerewe cyane nyuma yo guhabwa ingufu z'amashanyarazi n'ikigo kibishinzwe hano mu Rwanda kuko ubu ngubu basigaye bacana amatara ntibakiba mu mwijima, abana bakeneye kwiyogoshesha basigaye babona ahantu babikorera hafi bityo bagashimira Leta y'Igihugu cy'u Rwanda.

Hari ingomero zifatiraho umuriro w'amashanyarazi zigenda zubakwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo abaturage babashe kubona umuriro uhagije, bityo umuriro ntuzongere kubura uko wishakiye aho usanga nko mu masaha y'ijoro hari igihe umuriro ubura, bigateza igihombo gikomeye cyane ku baturage bakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga bikenera umuriro w'amashanyarazi.

Hari ingomero zitanga amashanyarazi kugira ngo agere ku baturage babone uko bacana, hari ingomero nini hakaba n'ingomero ntoya zunganira abaturage kugira ngo babashe kubona umuriro, babone uko bacagiga amatelefoni yabo, ndetse babone n'uko bakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga birimo na mudasobwa.

Ingomero zitanga amashanyarazi ziragenzurwa cyane kenshi buri munsi, aho abakozi babyigiye baturutse mu kigo gishinzwe ingufu n'amashanyarazi mu Rwanda REG, baza gusuzuma no gutanga umuriro ku baturage.

Mu rwego rwo gutuza abanyarwanda ahantu heza kandi hasobanutse ku midugudu aho babasha kubona umuriro w'amashanyarazi ndetse bakagerwaho n'ibikorwa by'iterambere harimo n'umuhanda, Leta y'u Rwanda yimuye abantu bari batuye mu manegeka, ibazana gutura mu nyubako yubatse za Leta mu rwego rwo kubafasha kwimukira ahantu hatekanye.

Leta igira inyubako zitandukanye zirimo: inyubako z'Imirenge, Utugari cyangwa Imidugudu, abaturage bagana izo nyubako bakabasha guhabwa ubufasha butandukanye n'abayobozi ba leta y'Igihugu cy'u Rwanda.

Igihugu gifasha abaturage mu kububakira ibikorwa remezo bitandukanye, harimo imihanda imodoka zigendamo, ibigo nderabuzima, amashuri abana bigiramo, inganda zikorerwamo ibikoresho bitandukanye, bityo tukabasha gutera imbere kandi tukabaho mu buzima bwiza tubifashijwemo n'igihugu n'abayobozi bacyo.

Igihugu cy'u Rwanda kigenda cyongera ibikorwa remezo birimo kubaka amashuri menshi ahagije, kubaka ibigonderabuzima n'ibitaro kugira ngo abaturage b'Igihugu cy'u Rwanda bajye babasha kwiga ndetse no kwivuza ku buryo buboroheye.

Mu rwego rwo kunoza no guharanira isuku leta y'u wRanda yashyizeho inyubako zitandukanye zitwa gira ubuzima zubatse hirya no hino mu midugudu aho abaturage batuye, zikaba zigisha abaturage ibijyanye no gukora isuku ku biribwa bateka ubwiherero n'ibikoresho byo mu rugo kugira ngo tugabanye umubare w'abaturage barwaye indwara ziterwa n'umwanda zirimo n'impiswi.

Igihugu cy'u Rwanda, cyubatse ibikorwaremezo bitandukanye, birimo imihanda, amashuri ,ibigo nderabuzima, ibibuga by'umupira w'amaguru, ibi byose rero bikoreshwa n'abaturarwanda, kugira ngo bahabwe ubufasha butandukanye, kandi bakomeze gutera imbere.

Kubaka ibiraro ni bimwe mu bintu bigenda biteza imbere hano mu Rwanda kugira ngo hagabanwe impanuka zikunze guhitana ubuzima bw'abantu, bitewe n'imihanda ihanamye, niyo mpamvu ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda bwafashe ingamba zo kongera ibiraro mu gihe hari ahantu hagaragara umuhanda mubi.

Ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bwubatse inyubako zitandukanye kandi bugenda buzongera buri munsi. Twavuga amashuri, ibigo nderabuzima cyangwa se amasoko aho abaturage bavuga yuko bashimira ubuyobozi cyane kubera bugenda bubateza imbere cyane bububakira ibikorwa remezo, abana babo bakabona aho bigira.

Hari inyubako za Leta yubakiye abantu batishoboye aho usanga buri nyubako ibamo imiryango ibiri, akenshi abazituyemo ni abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane baba barahawe ubufasha kuko Leta y'u Rwanda itabibagiwe ikomeza kubazirikana.

Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare, rwubatse umujyi wa Nyagatare, rushobora kwakira ibirego bisaga ijana ku kwezi, ibyinshi byiganjemo iby'abaturage baba bari gupfa cyangwa baregana ibibazo byerekeranye n'amasambu cyangwa ibyo mu miryango hagati y'abagabo n'abagore.

Leta y'u Rwanda igenda yubaka inyubako zitandukanye, harimo nk'ibibuga by'umupira w'amaguru, byifashishwa n'abatari bakeya, mu kwidagadura kugira ngo bishime bityo babashe kubaho mu buzima bwiza.

Inyubako za leta ziba ziri kubaka hirya no hino usanga ari nyinshi cyane, ziba zarubatswe hagamijwe ibintu bitandukanye ariko hibandwa ku bibazo abaturage baba bafite n'icyo bazajya bakorera muri izo nyubako kugira ngo bagire umusanzu wo kurandura, ibyo bibazo.

Gira ubuzima ni gahunda ya leta yashyizeho aho hubatswe n'inyubako za gira ubuzima zigamije gushishikariza abaturage kugira isuku birinda indwara ziterwa n'umwanda harimo nk'impiswi aho babereka ukuntu umuntu akora isuku bityo nabo akagenda bakabikurikiza ubundi tukabaho mu muryango mugari uzira umwanda.

Ibibuga by'umupira w'amaguru byifashishwa mu bikorwa by'imyidagaduro ariko biba byarubatswe n'ubuyobozi bw'Igihugu, aho byifashishwa mu kwakira imikino ihuza amakipe akina umupira w'amaguru hano mu Rwanda, twavuga nk'ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Nyagatare gikiniraho ikipe yo muri aka Karere.

Ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bukomeje kugenda bwongera ibikorwa remezo hirya no hino hagenda hubakwa ibiraro binyuraho imodoka n'ibindi binyabiziga mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora guturuka ku mihanda mibi bityo abaturage b'u Rwanda bashimira ubuyobozi bwabo.

Urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha mu Rwanda rushishikariza abaturage kudaheranwa n'ibibazo bafite mu gihe babangamiwe cyangwa babujijwe umutekano bagahita babibwira inzego zibishinzwe kugira ngo zikurikirane abantu bashaka kubahungabanya.

Ubuyobozi bw'igihugu cy'u rwanda bufatanyije n'inzego zicunga umutekano zirimo n'igisirikare, bafatanya mu gutanga ubutabera no guharanira uburenganzira bwabantu mu gihugu cy'u rwanda, binyuze mu kumva ibyifuzo by'abantu barenganyijwe, kandi bakabaha ubutabera.

Guhera ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane, igihugu cy'u Rwanda cyifatanya n'Isi yose mu kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w' igihumbi kimwe maganacyenda mirongo cyenda na kane. Abarokotse nabo bahawe ubutabera kuko ubungubu ari abaturage b'igihugu cy'u Rwanda basigaye bitaweho kandi bagafashwa na leta bitewe n'ingaruka banyuzemo.

Muri kaminuza y'u Rwanda haherutse kubera igikorwa cy'amahugurwa ajyanye no kurengera ubutabera n'uburenganzira bw'abantu, hagati y'abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu abatoya n'abakuru, bityo urwego rw'u Rwanda rurashishikariza buri muntu wese kutarenganywa, uwagize ikibazo akagitanga agahabwa ubutabera.

Inama nyinshi zihuza abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage, zigaruka ku kibazo cy'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu, aho leta y'u Rwanda ishaka yuko buri muntu wese agira uburenganzira bungana n'ubwundi, hagati y'umugabo n'umugore.

Mu rwego rwo gukemura ibibazo bibangamira abantu batuye mu muryango nyarwanda hashyizweho uburyo bwo gutanga ikibazo cyawe mu nama iba yahuje abaturage aho umuntu ahaguruka akavuga ikibazo yahuye nacyo ubundi kigahita gishakirwa igisubizo agataha ikibazo yari afite cyakemuwe.

Leta y'u Rwanda ijya itegura ibikorwa bitandukanye, birimo inama zihuza abaturage hagamijwe kurengera uburenganzira bwabo, aho ufite ikibazo akivuga kugira ngo kibashe gukemurwa, bityo uburenganzira bw' umuntu bukubahirizwa ndetse n'ubutabera bugatangwa.

Umugabo agomba kugira uburenganzira bungana n'ubw'umugore ndetse umukobwa n'umuhungu nabo bakagira uburenganzira bungana, kandi uwahohotewe uwo ariwe wese mu muryango mugari nyarwanda akagaragaza ikibazo cye agahabwa ubutabera.

Uburenganzira bw'umuntu bugomba kubahirizwa yaba umugore, umugabo, umwana cyangwa umukuru, umuhungu cyangwa umukobwa, hadashingiwe ku cyo ari cyo kandi agahabwa n'ubutabera. Ni yo mpamvu Leta y'u Rwanda yabiteje imbere cyane kuko ubu ngubu hasigaye haba inama z'abaturage uwarenganyijwe agatanga ikibazo ubundi akarenganurwa.

Hari inama zijya ziterana z'abaturage kugira ngo babashe kuganiriramo ibibazo baba bafite bitandukanye ndetse abarengana bahabwe ubutaberwa kuko uburenganzira bw'umuntu bugomba kubahirizwa bityo tukabaho mu gihugu kizira amacakubiri kandi kimakaza uburenganzira bwa buri muntu.

Imihanda myiza yubakiwe abaturage, igabanyije mu bice bitatu by'ingenzi. Hari akayira abanyamaguru banyuramo, hakaba n'utuyira tubiri imodoka zizamuka zinyuramo, ndetse n'imodoka zimanuka zinyuramo. Ibi byose bidufasha mu kugabanya impanuka zishobora guhitana ubuzima bw'abantu.

Mu mihanda abantu banyuramo ndetse n'ibinyabiziga dusangayo ibyapa bishinzwe gufasha abantu mu kubayobora, kwambuka umuhanda neza cyangwa kugabanya umuvuduko ku batwaye ibinyabiziga, kugira ngo hatabaho impanuka ubundi zigahitana ubuzima bw'abantu.

Leta y'u Rwanda igenda yubaka imihanda buri munsi yifashishwa n'ibinyabiziga ndetse n'abantu mu rwego rwo koroshya ingendo n'urujya n'uruza ruva ahantu hamwe rujya ahandi, bityo abaturage bagahahirana ku buryo bworoshye kandi bakabasha kugura no kugurisha ibicuruzwa byabo bitabatwaye igihe kinini, kubera ko imihanda iba ikoze neza ingendo zikihuta.

Ibinyabiziga bifasha abaturage mu gukora ingendo, bava mu gace kamwe bajya mu kandi kandi bitanga n'imirimo ku bashoferi batwara ibyo binyabiziga, hari n'abandi bakata amatike y'abagenzi babigendamo na bo babasha kwinjiza amafaranga kuko bahembwa buri kwezi.

Umuhanda abaturage bakoresha yaba abanyamaguru n'abakoresha ibinyabiziga, dusangamo ibyapa bigenda bibayobora, aho biba bishiho ibimenyetso, byerekana igikorwa runaka kigomba gukurikira.

Imihanda myiza ubuyobozi bwubakiye abaturage, irimo aho abaturage banyura ahazwi nk'inzira y'abanyamaguru, hakaba n'ibipande bibiri binyurwamo n'ibinyabiziga, yaba ibimanuka ndetse n'ibizamuka, bikagira umuhanda wabyo binyuramo.

Imihanda yubatswe mu Karere ka Nyagatare, yoroheje ingendo, aho usanga amamoto, imodoka, ndetse n'amagare, bitambuka, kandi byisanzuye mu muhanda, kuko ari munini, bityo abatwara ibi binyabiziga bashimira byimazeyo ubuyobozi bw'Igihugu cyabo.

Ibinyabiziga bigomba kubakirwa ahantu bihagarara kugira ngo bidasandagara hirya no hino bigateza akajagari, ni nayo mpamvu hubatswe amagare aho imodoka n'amamoto biparika, ubundi abagenzi bakabisangayo bakabasha kugenda mu ngendo ziberekeza aho bajya.

Nyuma yo kubakirwa imihanda, ubu ingendo zaroroshye mu baturage, aho basigaye bagenda no mu masaha y'ijoro kuko hubatseyo amatara manini, abasha kumurika, bityo umuturage akagenda nta bwoba afite kandi bikamufasha cyane kuko atahura n'abagizi ba nabi kuko haba habona, bitandukanye na kera igihe habaga nta matara ahari.

Imihanda minini yubakiwe abaturage habamo ibyapa bishinzwe kurangira abakoresha umuhanda kugira ngo bamenye igikorwa kigiye gukurikiraho bitewe n'aho bageze, hari ibyapa bigaragaza ko abanyamaguru bashaka kwambuka, hari ibyapa bigaragaza yuko ugomba kugabanya umuvuduko, hari n'ibyapa bigaragaza inzira zigomba kunyuramo amagare.

Mu masaha y'ijoro usanga byoroshye cyane kugenda mu muhanda, yaba ugenda n'amaguru cyangwa ukoresha ikinyabiziga kubera ko Leta y'u Rwanda yatwubakiye imihanda minini myiza kandi ishyiramo n'amatara amurika, ku buryo nijoro imodoka zigenda nta kibazo zifite rwose n'impanuka ntizibeho.

Imihanda ya kijyambere yubakiwe abaturage ikotiriye neza n'amabuye ndetse n'isima. Ibafasha mu gukora ingendo zitandukanye, yaba ku binyabiziga ndetse no kugenda n'amaguru. Aho abaturage bishimira yuko basigaye bagenda ku buryo buboroheye kandi ntibagende bahura n'ivumbi ngo ribandurize n'imyambaro.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukora imihanda, hari imodoka zabugenewe utumiza mu mahanga, kugira ngo zize ziyikore kandi ibe ikomeye, abantu bazikoresha ni ababa barize cyane.

Hari umuntu ushobora kuba uri kugenda atazi ahantu yagiye. Niyo mpamvu mu muhanda tuhasanga ibyapa birangira abaturage batandukanye. Mu karere ka Nyagatare hari icyapa kirangira abaturage aho Umurenge wa Nyagatare uherereye, aho baba bari kugenda bagera imbere bagahura n'icyapa kibereka yuko Umurenge uherereye muri metero igihumbi magana atatu na mirongo itanu ziri imbere; bityo bagahita babasha kujyayo.

Inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda polisi n'igisirikare zifatanyije n'abaturage n'abayobozi bakora igikorwa cy'umuganda aho baharura imihanda bakanatema ibiti byibasiye ahantu hanyujijwe umuhanda, abaturage bakongera gutambuka nta kibazo rwose.

nama nyinshi zihuza abaturage n'abayoboz ntizisiba kubonekamo abashinzwe umutekano, barimo abasirikare n'abapolisi, aho baba baje gushishikariza abaturage, kwita ku mutekano kugira ngo igihugu kitazagwa mu kangaratete.

Mu nama n'ibirori bihuza abaturage hagamijwe mu kubashishikariza no kubigisha uburyo bakwivana mu bukene kandi bagasigasira umutekano, polisi y'Igihugu n'ingabo z'Igihugu na zo ziba zihari kugira ngo zishimangire kandi zitange ubujyanama, kubijyanye n'ukuntu abaturage bakirindira umutekano bo ubwabo.

Abaturage b'u Rwanda bajya bahabwa inka, igikorwa gitegurwa n'ubuyobozi bw'Igihugu ndetse n'inzego z'umutekano zirimo igisirikare na polisi kugira ngo umuturage abashe nawe kujya abona amata kandi abone n'ifumbire, agahabwa inka, bityo abaturage bose usanga bashimira ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda.

Kugira ngo hirindwe kandi himakazwe umutekano mu gihugu cy'u rwanda, leta y'u rwanda yafashe ingamba zo gukoresha inama abaturage kenshi gashoboka, kugira ngo haganirwe ku bibazo by'umutekano, ndetse banajye inama kugira ngo twirinde abagizi ba nabi bashobora kutwinjiramo.

Abagore n'abagabo beza cyane, bambaye imyenda y'umukara ndetse hari n'abambaye ingofero z'umutuku n'abambaye imyenda y'ubururu n'indi y'umweru, bari mu muganda.

Hari ibikorwa bitandukanye bihuza imbaga nyamwinshi, bitegurwa na leta y'u rwanda, aho byitabirwa na polisi y'igihugu, kugira ngo ishishikarize abaturage bayo, gusigasira no kurinda umutekano, kugira ngo twirinde ibyayaha birimo iby'ubujura, ubwicanyi n'ibindi, binyuze mu gutangira amakuru ku gihe, kandi buri wese akaba ijisho rya mugenzi we.

Abantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, yiganjemo gukina umupira w'amaguru kuko ubafasha mu bikorwa bitandukanye, birimo kugabanya ibiro no kwirinda indwara zirimo nk'umubyibuho ukabije kandi umupira w'amaguru uhereza n'abantu amafaranga nk'abakina mu makipe akomeye, harimo nka za Mukura n'Amagaju.

Biganjemo urubyiruko bajya bihuriza hamwe n'inzego z'ubuyobozi n'inzego z'ibanze, bagakora igikorwa cyo gukorera imyitozo ngororamubiri hamwe, aho birukanka bava mu gace kamwe bakagera mu kandi, bityo bakabasha kugorora imibiri yabo, bakirinda indwara zirimo umubyibuho ukabije cyangwa za diyabete.

Abagifite imyaka mikeya, cyane urubyiruko, bakunze gukora imyitozo ngororamubiri, aho birukanka mu muhanda bagenda gake gake, kugira ngo bagabanye ibiro, kandi birinde kugira umubyibuho ukabije.

Abantu bageze mu kigero k'imyaka y'izabukuru byibuze ku myaka mirongo itatu gusubiza hejuru, na bo bakunda gukora imyitozo ngororamubiri bakina nk'umukino w'umupira w'amaguru kugira ngo babashe kugabanya ibiro kandi ntibibasirwe n'umubyibuho ukabije.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri, binyuze mu mukino wo gukina umupira w'amaguru, aho usanga amakipe atandukanye cyangwa se imidugudu, yihuza igakina n'iyindi kugira ngo babashe guhatanira n'ibihembo bitandukanye, kandi bakore n'imyitozo ngororamubiri.

Sitade y'akarere ka nyagatare, bita Gologota, ni stade nziza cyane, yubatswe n'umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame, kandi akarere ka nyagatare kayifata neza cyane.

Abaturage b'igihugu cy'u Rwanda cyane abiganjemo urubyiruko, abadamu, abagabo, n'abagore, bashishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo birinde indwara zitandukanye zirimo no kugira umubyibuho ukabije, cyangwa kugira ibiro byinshi ndetse kandi gukora imyitozo ngororamubiri birinda umuntu kugira amavunane.

Abantu bakuru na bo basigaye bitabira ibikorwa by'imyidagaduro ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri kuko bifite akamaro gakomeye cyane karimo gufasha umuntu kwirinda umubyibuho ukabije ndetse no kutagira ibiro byinshi kandi bakarwanya n'indwara zo ku ruhu zirimo nko kugira imkanyari, babikesha gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukino w'umupira w'amaguru, ni umwe mu ikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yitabirwa n'abantu bakuru ndetse n'abato, uretse kandi kuba bifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri, ni n'akazi gashobora gutunga umuntu kuko abakinnyi barahembwa.

Abakina umupira w'amaguru cyangwa bakora imyitozo ngororamubiri muri rusange, ntibajya bakunda gusaza, mbere yuko usanga bagejeje no mu myaka mirongo itanu ariko wabitegereza ukabona bakiri abasore kandi mu by'ukuri ari ababyeyi bafite n'abana. Gukora imyitozo ngororamubiri rero ni byiza cyane.

Abantu bageze mu kigero k'imyaka y'izabukuru, na bo bakunda gukina umupira w'amaguru kugira ngo ubafashe kwirinda kugira ibiro byinshi kandi utume bagabanya umubyibuho ukabije, bityo babeho neza.

Abiganjemo abantu bageze mu kigero cy'imyaka mirongo itanu kuzamura bajya bitabira igikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri, aho iyo bakirangije bakurikira ibiganiro byateganyijwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, harimo gushishikariza abantu kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge no kubungabunga umutekano w'igihugu cyabo.

Abakina umukino w'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda ni bamwe mu bishimira umukino bakina ndetse bakavuga yuko ubafasha mu bikorwa bitandukanye birimo kubavura indwara zirimo nk'umubyibuho ukabije kandi hejuru y'ibyo uyu mukino utanga n'amafaranga kuko ari umwe mu batunze abantu benshi cyane abakina mu makipe arimo nka za APR FC zamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu gikorwa giteza imbere abantu kandi kikabagirira akamaro binyuze mu buryo butandukanye burimo kubarinda kwibasirwa n'indwara zirimo umubyibuho ukabije kandi imyitozo ngororamubiri itanga n'amafaranga nko ku bantu bakina umupira w'amaguru.

Abantu bagomba kwitabira igikorwa cy'imyitozo rusange ngororamubiri, kugira ngo babashe kwirinda indwara zitandukanye zirimo kugira umubyibuho ukabije, cyangwa se kugira amavunane, bityo kandi gukora imyitozo ngororamubiri bifasha n'umuntu gusohora imyanda mu mubiri binyuze mu kubira ibyuya.

Abantu b'igitsina gabo bakunda gukora imyitozo ngororamubiri cyane binyuze mu buryo bwo gukina umukino w'umupira w'amaguru, aho amakipe agenda ahabwa ibikombe bitandukanye mu gihe yabashije kwitwara neza agatsinda amakipe magenzi yayo bahanganye.

Umukino w'umupira w'amaguru uri mu wukundwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko nanone ufasha abantu mu ngeri zitandukanye kuko babasha gukoreramo imyitozo ngororamubiri bityo bakirinda umubyibuho ukabije ndetse no kwibasirwa no kugira ibiro byinshi.

Imihanda myiza ishashemo amabuye ya kaburimbo irimo iragenda yubakwa hirya no hino mu baturage kugira ngo yoroshye urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abantu, bityo ubuhahirane bubashe gutera imbere kuva mu gace kamwe ujya mu kandi.

Hirya no hino mu giturage haba harimo imihanda ihuza kandi ikoroshya urugendo hagati y'abaturage, bava mu mazu yabo bajya ku mihanda no mu mabutiki aho bahahira. Iyo mihanda usanga iharuye neza kandi yorohereza abaturage ingendo.

Nyuma y'uko abaturage bubakiwe imihanda ya kaburimbo, bishimira yuko Leta y'igihugu cy'u Rwanda yateje imbere iby'ingendo, aho basigaye bagenda ku buryo bworoshye kuko nta muntu ukigenda asitara mu muhanda cyangwa ahura n'ivumbi, basigaye banyura mu mihanda myiza leta yabubakiye.

Kugira ngo himakazwe isuku y'ibikorwa remezo, imihanda myiza ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda bwubakiye abaturage, irasukurwa buri munsi kuko hashyizweho abantu babihemberwa buri kwezi bashinzwe gukora isuku, maze iyi mihanda igahora isa neza cyane.

Abaturage hirya no hino mu gihugu barishimye cyane nyuma yo kubakirwa imihanda myiza ya kaburimbo irimo igiheri kandi ikaba inakorutiriye, aho bavuga yuko batakinyura mu ivumbi ngo ribandurize imyenda cyangwa inkweto bityo bagashimira leta y'igihugu cy'u Rwanda cyane.

Igihugu cy'u Rwanda kigenda cyongera imihanda hirya no hino mu baturage bityo bikoroshya ingendo z'abantu n'ibinyabiziga, ntihabashe kubaho impanuka kubera ko ibinyabiziga biba bifite umuhanda bigenderamo n'abantu bakagira umuhanda w'abanyamaguru bityo abaturage bashimira ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda mu kurushaho kubatekerezaho.

Hirya no hino mu gihugu, abaturage barishimye cyane nyuma yo kubakirwa imihanda izwi nka kaburimbo ku buryo usanga batakigenda bitera ivumbi kuko ahangaha imihanda itarimo kaburimbo iri ku kigero cya cumi nagatanu kwiijana, imyinshi yagiye ishyirwamo kaburimbo bityo abaturage avuga yuko ingendo zoroshye kandi babishimira leta y'u rwanda.